Abayobozi bahuriye mu nama ihuza ibihugu biri mu muryango wa common wealth, ndetse bari kwifotoza kugira ngo bazasigarane urwibutso.

Gukaraba intoki ni ingenzi ku buzima bwacu bwa buri munsi kuko biturinda indwara zimwe na zimwe ziterwa n'isuku nke, umunyeshuri yari ari ku kigo cy'amashuri gifite kandagirukarabe mbere yuko ajya mu ishuri ari gukaraba intoki n'amazi meza.

Umwana yicaye imbere y'iriba ari guseka ndetse ateze ibiganza ku iriba ari gukaraba intoki, hirya ye hari ibyo bifashisha bavomeramo kugira ngo igihe amazi yabuze babe bayafite.

Amavomero rusange afitiye akamaro abaturage, kuko babasha kubona amazi meza kandi asukuye igihe cyose, bityo bikabarinda indwara ziterwa n'isuku nke. Ndetse abana ni ngombwa ko batozwa uturimo tw'amaboko tutabavunnye, nko kuvoma ndetse n'indi mirimo. Ni ngombwa kandi ko ibikorwaremezo biba ahantu hadafite ingaruka ku buzima bwacu.

Umwana yambaye ikanzu ahagaze inyuma y'inzu, afite icupa ririmo amazi yaricuritse kugira ngo amazi ajye ameneka ku ntoki ze.

Abajyanama b'ubuzima ndetse n'umuyobozi n'umuganga, bahagaze bishimye bari kwifotoza nyuma yuko bahawe imyambaro igaragaza ibyo bakora ndetse n'ibindi bya ngombwa bakeneye.

Umubyeyi ahagaze ku ivomero rusange ryubatse neza, ari kuvoma amazi kugira ngo bayifashishe mu gukora amasuku, mu guteka ndetse banayanywe kuko afite isuku.

Abajyanama b'ubuzima bahagararanye n'umuyobozi, bari kwifotoza. Bambaye imyenda yabugenewe ibaranga ndetse n'ibirango biranga icyo bashinzwe kandi bahagararanye n'umuganga mukuru.

Abantu bihurije hamwe ndetse n'umupolisi, bamwe bari gutera imboga mu karima k'igikoni kuko imboga zidufitiye akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Umwana aryamye ku bitaro kwa muganga, bigaragara ko asa nk'umwana urembye cyane, abaganga bari kumukurikirana, bari kumupfuka ku kaboko, mama we na we ari hafi ye ari kureba uko umwana bari kumwitaho. Bari kwifashisha ibikoresho by'imiti bitandukanye. Umwana bamushyizemo serumu.

Agacupa k'umuti gafunze neza, gateretse ku gasahani ndetse hariho n'inshinge zifashishwa mu gukura umuti muri ako gacupa bawutera mu murwayi kugira ngo bamwiteho.

Umuhanzi Israel Mbonyi yifatanyije n'inzego za Leta mu gupima abana ibiro kugira ngo bamenye imikurire yabo niba bari gukura neza cyangwa se bafite ibindi bibazo by'imikurire ndetse kugira bamenye n'icyakorwa kugira ngo abana bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Abaturage bicaye bateze amatwi umuganga uri kubahugura ku byo bashobora gukurikiza, ndetse no kwirinda ndetse yambaye n'umwenda w'akazi ugaragaza ibyo akora.

Abantu baturutse mu bihugu bitandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo, bahuriye mu nama rusange, bafite amazi imbere yabo, amakayi, mudasobwa ndetse n'ibikapu, bari kwigira hamwe ku ngamba zafatwa.

Amazi ni isoko y'ubuzima amazi akenerwa mu bintu byinshi kuko tuyakoresha mu miririmo yacu ya buri munsi turayatekesha, tukayanywa, tukayakoresha isuku yaba ibikoresho byo mu rugo ndetse n'iyo ku mubiri wacu ni ingenzi ko ahantu hose tubonye amazi tuyabungabunga mu buryo bwiza akatugeraho afite isuku ihagije.

Amazi isoko y'ubuzima ni ingenzi ko igihe cyose aho dutuye mu mirimo yacu ya buri munsi tuba dufite amazi kuko adufasha mu mirimo itandukanye haba mu kumesa imyenda, haba mu gukora amasuku ku mubiri wacu ndetse n'aho dutuye, ni ingenzi ko rero amazi tuyabungabunga tukiririnda kuyangiza nko kuyareka ngo ameneke cyangwa se kuyakoresha ibindi biyangiza.

Wihogora ni ikigo cyigenga gikorera m'u Rwanda gitanga ubuvuzi ku birebanye n'ubuzima bwo mu mutwe, kikaba cyita ku bana, urubyiruko ndetse n'abakuze mu ngeri zose.

Umugabo ahagaze imbere y'ibitaro, bivura indwara zo mu mutwe, kuri ibyo bitaro hateye ibiti by'imikindo, ndetse hateye n'ibindi byatsi bitandukanye, bituma uhari wese yumva umuyaga mwiza ndetse akabona ari byiza.

Imodoka yifashishwa nk'ivuriro rigendana, mu karere ka Bugesera, umubyeyi ari kugenda ayisatira, abandi bantu bicaye hirya, inyuma y'imodoka, ndetse hari n'intebe imbere yaho.

Abantu bahurijwe hamwe mu nzu mberabyombi, bicaye bakurikiye, bafite amazi imbere yabo, bafite amakaramu ndetse n'amakayi, bateze amatwi, bari kureba umubyeyi uhagaze imbere yabo uri kubahugura.

Umubyeyi yikoreye igitebo kirimo imigozi y'ibijumba ndetse afite n'isuka mu ntoki ze, bigaragara ko avuye guhinga kuko intoki ze zidasa neza.

MHUB ni umuryango ushinzwe kwita ku buzima bwo mu mutwe ndetse n'amarangamutima ku isi, ufite icyicaro Iberline ndetse no muri Newyork, ufasha abantu kugira imibereho myiza yo mu mutwe ndetse n'amarangamutima.

Umugabo ahagaze ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi, ari guha icyubahiro abazize jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane.

Twite ku buzima bwo mu mutwe, aho dukorera. Ni ikiganiro cyatanzwe n'umubyeyi washishikarizaga ababyeyi bagenzi be, ko igihe cyose umuntu agomba kwita ku buzima bwo mu mutwe aho yaba ari hose. Ni gahunda yatewe inkunga na Leta y'u Rwanda, binyuze mu kigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima ndetse n'inkunga ya USAID.

Kurira ni amarangamutima agaragaza ko umuntu afite ikibazo yahuye na cyo mu buzima bwe, ushobora kuba wabuze nk'umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe cyangwa se wahuye n'ikindi cyakubabaje ukananirwa kucyihanganira bityo bigatuma wisanga uri kurira.

Umugabo ahagaze imbere y'abantu bamuteze amatwi ndetse bamukurikiye, ari gutanga imbwirwaruhame ku byerekeye n'ubuzima bwo mu mutwe, inyuma ye hari abandi bayobozi bicaye nabo bari kumva, bateze amatwi, ndetse hari n'ibyapa biri gutanga ubusobanuro bw'iyo nama icyo igamije.

Umugore yicaye ku ntebe y'urubaho mu nzu itarimo ibyangombwa bihagije, irimo ikirago idirishya rirafunguye ndetse n'inkuta z'iyo nzu bigaragara ko zishaje zatangiye gusenyuka.

Umugabo ari guseka, afite amenyo meza kuko ayagirira isuku, ndetse afite akagozi yifashisha igihe ari gukura imyanda mu menyo kugira ngo yite ku isuku yayo neza bityo biyarinde kwangirika.

Umugabo wishimye, aryamye mu bitaro bari kumwitaho, anejejwe na serivisi nziza ari guhabwa, ari kwitabwaho, ari kuvurwa amenyo ndetse afite amenyo meza.

Umugabo afite agakoresho bifashisha bakura imyanda hagati y'amenyo, ni ingenzi cyane ko buri muntu wese azirikana ku isuku y'amenyo ye, akayitaho kugira ngo ayarinde kwangirika ndetse no kugira impumuro nziza mu kanwa.

Umwana mutoya yagiye ku bitaro gusuzumisha amenyo ye ngo barebe uko ameze ndetse bakure n'afite ibibazo kugira ngo hamere ayandi ndetse ari kwitabwaho n'umuganga wambaye imyenda yabugenewe kandi ufite ibikoresho byizewe byabugenewe.

Umurwayi yagiye kwa muganga kwivuza amenyo, umuganga amukura iryinyo ryari rirwaye kugira ngo amwiteho amererwe neza.

Umusaza n'umukecuru baricaranye, umukecuru afite urupapuro mu ntoki ze ndetse umusaza we afite telefone bari kurebamo, iruhande rwabo hari ikirahure cy'amazi ndetse n'imiti ivura indwara.

Abaturage bicaye munsi y'igiti, aho izuba ritabageraho, bari kuganira, bari kungurana ibitekerezo, bari kujya inama. Hirya yabo hari amazu ahari, bigaragara ko ari nko mu Mudugudu.

Umukecuru n'umusaza bari gusoma urupapuro ruriho amabwiriza yuko bagomba gufata imiti, ndetse bicaye ahantu heza hasa neza hari isuku barishimye bari guseka bari kuganira.

Umwana n'umugabo ukuze bari ku kibuga cya basikete. Umwana afite umupira mu ntoki ari gukina n'uwo muntu mukuru barishimye ubona ko buri wese anezerewe.

Umugabo ugeze mu zabukuru, wambaye indorerwamo z'amaso, uri guseka, afashwe n'umuforomokazi, ufite inshingano yo kumwitaho no kumukorera ibyo we adashoboye kwikorera kuko afite intege nkeya.

Ubushita bw'inkende ni indwara irimo iragenda igaragara mu baturage muri iki gihe ndetse hakaba harafashwe n'ingamba zo gupima ngo barebe ko hari umuntu ufite ubushita bw'inkende kugira ngo atangire kwitabwaho ndetse binarinde yuko yakanduza abandi iyo ndwara y'ubushita bw'inkende.

Umwana urwaye kwa muganga, ari gukora ku muganga uri kumukurikirana, yishimye nta bwoba afite, bigaragara ko bari kuganira. Ni byiza yuko umurwayi yitabwaho ndetse akamenya n'uburenganzira bwe, ndetse akamenya nibyo agomba kwirinda.

Repubulika y'u Rwanda minisiteri y'ubuzima, ikirangantego cy'u Rwanda kigizwe n'ipfundo ingabo ebyiri, isaka ndetse n' ikigori, igiseke ndetse hejuru y'igiseke hari izuba.

Abaganga bambaye imyenda yabugenewe ndetse bafite ibikoresho bigezweho, bari kuvura umurwayi bifashishije ikoranabuhanga ryo kwifashisha ama ekara bakajya bareba mu mubiri w'umuntu.

Umugabo yambaye ingofero ndetse n'indorerwamo z'amaso, afite igipapuro cyanditseho ko urukingo rw'ubushita bw'inkende rwabonetse ubu ngubu.

Abayobozi b'ibitaro bya butaro ndetse n'abayobozi b'ishuri ry'ubuganga rya Harvard bari kwifotoreza imbere y'ibuye bashinze ryerekana ubufatanye ibitaro bya butaro bifitanye n'ishuri ry'ubuganga rya Havard.

Inzu iberamo imyitozo ngororamubiri ifite ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gihe umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri, harimo ibyifashishwa mu guterura, amagare ndetse n'ibindi bitandukanye.

Inyubako y'ibitaro yubatse mu buryo bugezweho ifite ibisabwa byose, aho bakirira abarwayi baje bafite ibibazo byihutirwa nk'abakoze impanuka ndetse n'abagize ibibazo bitunguranye kugira ngo biteho by'umwihariko.

Inyubako y'ibitaro bigezweho bifite ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura abarwayi. Ifite imashini yifashishwa bapima umurwayi indwara afite mu mubiri.

Inyubako zikorerwamo ubuvuzi zigomba kuba zifite ibisabwa byose zubatse neza zifite ibirango birangira abantu aho bagiye, amarembo ndetse zifite n'aho ibinyabiziga biparika mu gihe cyose bazanye abarwayi ndetse zigomba no kuba zifite abantu bashinzwe kuzicunga.

Abarwayi ndetse n'umuganga bahagaze imbere y'ikigo nderabuzima cya Gishweru ndetse bategereje guhabwa serivisi z'ubuzima, abandi bo barangije kuzihabwa, baritegura guhabwa imiti ngo batahe.

Umuganga ari kwifashisha mudasobwa areba imbavu z'umurwayi ngo arebe y'uko nta kibazo zaba zifite cyangwa se ko hari uburwayi bundi yaba afite muri we.

Abaturage bahagaze ku kigo nderabuzima cya Tabagwe, bategereje ko bahabwa serivise z'ubuzima ndetse bambaye ubupfukamunwa kugira ngo birinde kwanduzanya indwara z'ibyorezo ndetse banashyize intera hagati yabo.

Ibitaro byubatse mu buryo bugezweho ndetse bifite n'aho baparika imodoka habugenewe, n'aho abarwayi bagendera ndetse hanze hari abarwayi bari kureba uko ibitaro byubatse.

Ibitaro bifite inyubako igezweho ndetse bifite n'aho abarwayi bategerereza, bifite ndetse n'ibirango biyobora abarwayi, bitewe n'aho buri wese agiye, ndetse ibitaro bifite n'aho umurwayi atemerewe kugera, hagerwa n'ubyemerewe wenyine ndetse uhakora.

Ivuriro ryubatse ku buryo bugezweho, rifite ibirango biyobora abarwayi aho bagiye, ndetse rifite n'utwuma dusona igihe cyose habaye inkongi y'umuriro. Ndetse ivuriro rifite intebe abarwayi bicaraho igihe bategereje.

Ibitaro byubatse mu buryo bugezweho, hanze hateye indabyo ndetse n'ibyatsi bifasha umurwayi mu kumva ari ahantu hari umwuka mwiza ndetse hanasa neza.

Inzu yifashishwa mu gukoreramo imyitozo ngororamubiri ifite ibikoresho bitandukanye haba ibifasha abantu kwirukanka amagare ndetse n'ibyo bifashisha baterura byose biri muri iyo nzu bakoreramo imyitozo ngororamubiri.

Umurwayi aryamye mu bitaro ndetse hari n'undi wicaye umuganga ari kumwitaho, ni ngombwa rero ko inzu zikorerwamo ubuvuzi zigomba kuba zifite ibikoresho bihagije ndetse n'aho kwitira ku barwayi hahagije.

Umusirikare ari kugenda ahantu bavurira kanseri mu rwanda hateye indabo nziza ndetse hari n'igiti giteye mu ivase hasa neza hari ibirahure ndetse hanateye amarangi kandi hari n'ikirango kigaragaza ko ari ahantu bavurira kanseri mu Rwanda

Umuganga ari gupima umuturage indwara zitandura ndetse bicaye ahantu hari ibikoresho byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro igihe ibaye itunguranye, ndetse hari n'icyapa cyerekana urubuga rw'irembo, rukoreshwa n'abaturage mu buryo bwihuse bishyura ubwisungane mu kwivuza, imisoro ndetse banaka izindi serivise zindi zitandukanye.

Abayobozi bo muri kaminuza y'u Rwanda harimo n'abanyeshuri basuye ikigo cy'amashuri, nuko umunyeshuri umwe wo muri kaminuza y'u Rwanda afata umwana umwe muri icyo kigo, amwigisha uko boza amenyo yifashishije imfashanyigisho.

Imikino njyarugamba izwi nk'ihuriro ry'abakina jido mu Rwanda, igaragaza yuko ari imikino itoza umuntu kwirwanaho, ndetse abantu bose bakina imikino ya judo baba bafite ikinyabupfura baratojwe kwirinda kandi batagira urugomo.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane ku buzima bwacu kuko ifasha ubwonko kuruhuka neza, gusohora ibinure bidakenewe mu mubiri, ndetse ikanafasha umuntu gukomera. Ni ingenzi rero ko umuntu azirikana gukora siporo buri gihe cyose.

Imyitozo ngororamubiri ni ingirakamaro ku buzima bwacu bwa buri munsi kuko ifasha amagufa gukomera ndetse no kurambuka kw'imikaya ni ngombwa ko igihe cyose ugize ikibazo uri mu myitozo ngororamubiri wihutira kugana umuganga akagufasha.

Icyuma k'ikoranabuhanga kifashishwa mu buvuzi kiri mu bitaro aho bashyira umurwayi muri cyo, bakamwinjizamo imbere maze kikabasha kumupima indwara afite mu mubiri bakabasha kumenya ikibazo afite.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi ku buzima bwacu ndetse tukibuka no gufata imboga n'imbuto kuko na byo byongerera umubiri wacu ubudahangarwa bikaturinda indwara, ndetse ni ngombwa ko igihe cyose dupima ibiro byacu, ndetse n'uburebure bwacu kugira ngo tumenye uko umubiri wacu uhagaze.

Umugabo yashyize agatambaro ku kaboko ke ari ku gakanda kugira ngo ububabare afite mu kaboko bushire maze amererwe neza mu mubiri we.

Muganga ari kwita ku murwayi, amukoresha imyitozo ngororamubiri kugira ngo amufashe amuhe ubuvuzi, maze arebe ikibazo afite mu kaguru.

Umukinnyi wagiriye ikibazo mu kibuga ari gukina none abaganga baje kumwitaho ngo bamuvane mu kibuga bajye kumuvura, basuzume ikibazo yagize bamuhe ubuvuzi.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane, kuko imyitozo ngororamubiri ifasha umubiri mu kurambura imikaya ndetse no kuruhuka bw'ubwonko. Ni byiza ko igihe cyose umuntu yibuka gukora siporo, ndetse akayikorera ahantu hisanzuye yambaye n'imyenda yabugenewe. Ndetse agakoresha n'ibikoresho byabugenewe.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi ku buzima bwacu, ariko ni ingenzi cyane na none ko tuzirikana gufata imboga n'imbuto bihagije igihe cyose twakoze imyitozo ngororamubiri kugira ngo bitwongere ubudahangarwa ndetse binaturinde indwara mu mibiri yacu.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko ifasha mu kugorora imitsi ndetse no kongerera imbaraga umubiri. Siporo kandi idufasha gusohora imyanda mu mubiri ndetse no gufasha ubwonko kuruhuka neza.

Ni byiza ko igihe cyose iyo umuntu agiye gukora siporo yambara imyenda yabugenewe akambara inkweto nziza zitamuvuna igihe cyose ari gukora siporo, siporo kandi zifasha mu kugorora imikaya y'umubiri w'umuntu ndetse bituma n'amaraso atembera neza mu mubiri.

Gukora siporo kunywa amazi ndetse no kurya imbuto zihagije, ni bimwe mu bifitiye akamaro umubiri wacu mu buzima bwa buri munsi kuko bifasha ubwonko gukora neza bukaruhuka bihagije ndetse bigafasha n'umuntu kugira ubudahangarwa bw'umubiri.

Amazi meza afite akamaro ku buzima bwacu ndetse kuyafatira mu bikoresho bifite isuku biturinda kugira indwara zose ziterwa n'isuku nkeya, by'umwihariko kunywa amazi igihe cyose tuvuye muri siporo ngororamubiri ni byiza kuko bifasha umubiri wacu kubona amazi wagiye utakaza igihe umuntu yari ari muri siporo.

Umuntu uri ku ivuriro, mu cyumba basuzumiramo gifite ibikoresho bigezweho, ndetse byiza, bisa neza, afite mudasobwa ari kwifashisha avugana n'abandi bantu barebana.

Kunywa amazi ni ingenzi mu mubiri wacu, kuko amazi ahora akenewe n'umubiri igihe cyose umuntu ataje amazi, aba agomba kubona andi asimbura ayo yatakaje. Ariko by'umwihariko ni ingenzi cyane kunywa amazi igihe cyose umuntu arangije gukora siporo, kuko aba agomba kongera amazi umubiri igihe cyose yakoze siporo agatakaza amazi mu byuya.

Amazi ni ubuzima kuko amazi adufitiye akamaro mu buzima bwa buri munsi, haba kuyanywa, kuyakoresha amasuku, kuyatekesha ndetse n'ibindi, ni ingenzi rero ko umuntu azirikana buri gihe ko iyo abyutse agomba kunywa amazi meza asukuye.

Igikakarubamba ni ikimera gitangaje cyane. Gifite akamaro gatandukanye mu mubiri w'umuntu. Ni yo mpamvu igikakarubamba gikorwamo ibintu byinshi, haba imiti, haba imiti yo koza amenyo, haba amasabune ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bikorwa mu gikakarubamba, kuko cyifitemo intungamubiri zitandukanye.

Tungurusumu ni igihigwa gifite akamaro mu mubiri wacu kuko ifasha umubiri mu kugira ubudahangarwa ndetse tungurusumu ifasha umuntu wagize nko kuvura kw'amaraso akaba amaraso yatembera neza mu mubiri, ikindi kandi tungurusumu ifasha abantu bafite nk'ibibazo byo kurwara ibicurane, buroshite ndetse n'izindi ndwara zifata ubuhumekero, ndetse kandi tungurusumu yica amabagiteriya ashobora kuba ari mu mara.

Gukoresha uburoso ndetse n'umuti w'amenyo ni ingenzi ku menyo yacu, kuko bidufasha kwica mikorobe zose zishobora gutuma amenyo yacu yangirika igihe cyose tutayitayeho nkuko bikwiye ngo tuyagirire isuku, ni ngombwa rero ko buri gihe cyose umuntu abashije gufata ikintu cyo kurya afata n'umwanya wo koza amenyo, cyangwa se igihe turi ahantu bitatwohereye ko twoza amenyo tukiborosa kabiri ku munsi.

Imiti gakondo ikozwe mu buryo bugezweho ndetse bwizewe, ifite akamaro ko kongerera ubudahangarwa umubiri wacu kugira ngo wirinde indwara.

Imiti gakondo, ikozwe mu bimera ikamuyemo umutobe, ifungiye mu macupa yavuyemo amazi, ndetse hariho n'ibipapuro bigaragaza, buri muti icyo uvura ndetse n'icyo ukozwemo.

Imiti gakondo itunganyijwe mu buryo bw'ikoranabuhanga bugezwe ifite akakamaro kanini ku mubiri kuko iba yaritaweho neza mu buryo bufite isuku bityo ikongera ubushobozi bwo kuvura indwara ztandukanye.

Imiti gakondo idufitiye akamaro kanini mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko imwe n'imwe yifashishwa mu kuvura ndetse imwe n'imwe ifasha kuvura indwara zitandukanye harimo inkorora ndetse n'izindi ndwara zitandukanye.

Ababyeyi bari mu murima bagiye gusarura ibibabi by'icyayi kugira ngo bizatunganywe bivanwemo icyayi ndetse bishobora no kugirira akamaro umubiri nko kuwongerera imbaraga.

Ibimera bifite akamaro gatandukanye kuko nyuma y'uko bishobora no gutanga umwuka mwiza, byifashishwa mu gukora imiti gakondo, ivura indwara zitandukanye, mu buzima bwa buri munsi.

Imiti gakondo ikozwe mu bimera ifite akamaro mu mubiri wacu kuko irinda kongera indwara zindi mu mubiri ziterwa n'imiti ikoreye mu nganda itari ibimera, ifasha umurwayi gukira ndetse imwe n'imwe imwongerera ubudahangarwa.

Ivuriro ricuruza imiti gakondo, harimo ubuki, amazi, amavuta akoze mu bimera ndetse afite n'abakozi babyigiye, babitojwe, bazi uko iyo miti ikora. Ndetse iryo vuriro ryemewe mu buziranenge.

Ibimera bifitiye akamaro isi yacu kuko bidufasha kubona umwuka mwiza duhumeka ndetse bikanatwara umwuka mubi tuba twaseye mumubiri wacu, ni ngombwa rero ko mu butaka bwacu igihe cyose duhingamo ibiti bibasha kudufasha gutanga umwuka mwiza ndetse bikanadufasha ko tubona imvura mu gihe cyose tuyikeneye bikaturinda amapfa.

Imiti ihabwa abarwayi igomba gutangwa hagendewe ku kigero cy'umurwayi. Niba ari umurwayi w'umwana agomba guhabwa imiti ijyanye n'ikigero arimo n'imyaka ye n'ibiro ndetse n'indeshyo ye. Naho imiti ihabwa umuntu mukuru na yo igomba guhabwa bagendeye ku biro bye ndetse n'indeshyo ye. Ni ngombwa kandi buri gihe yuko imiti ibanza gusuzumwa ngo barebe ubuziranenge bwayo ifite.

Imiti yongera vitamini mu mubiri ndetse n'izindi ntungamubiri itarimo isukari ndetse yemewe ku bantu batarya cyangwa se badakoresha inyama, iyo miti hari iy'abana ndetse n'iy'abantu bakuru biterwa n'ikigero urimo.

Agacupa karimo umuti gakondo gapfundikiye neza ndetse gafite n'ibirango byerekana indwara kavura ndetse kerekana ko gafite n'ubuziranenge, ku buryo kahabwa umurwayi kakamuvura indwara afite byizewe.

Igiti giteye ahantu mu gashyamba hari n'ibindi biti n'utwatsi, byifashishwa mu gukora imiti gakondo ndetse iyo miti ifite akamaro mu mubiri wacu, kuko havamo imiti iturinda indwara ndetse ikadukiza igihe twarwaye.

Ibiti ndetse n'indabyo zabyo bifite akamaro gakomeye, kuko usanga aribyo bivamo imiti ikoreshwa mu kwita ku ndwara zitandukanye, ndetse ugasanga binizewe ko bikiza indwara umuntu arwaye.

Imiti gakondo y'ibinini bisa icyatsi, ubona ko byakozwe mu bimera, biri mu gikoresho cya kinyarwanda, gikozwe mu giti,...

Imiti gakondo ifite akamaro ku buzima bwacu bwa buri munsi ariko ni ingenzi ko igihe cyose igiye gutangwa ku barwayi cyangwa se mu baturage, igomba kubanza gusuzumwa n'ikigo gitsura ubuziranenge kugira bamenye y'uko iyo miti itazagira ingaruka ku buzima bw'umuntu cyangwa se ikaba yatera izindi ndwara nka kanseri n'ibindi byinshi.

Umugabo ucuruza imiti gakondo, ari kuvuga ko imiti gakondo igomba kubanza ikagenzurwa n'ikigo gishinzwe kugenzura ubuziranenge bw'imiti ndetse kugira ngo harebwe ko iyo miti itagira ingaruka ku mubiri w'umuntu.

Umugabo ndetse n'umugore barahagaze, bari kuganira, bari munsi y'igiti cyifashishwa mu buvuzi, bari gushaka imiti bakifashisha.

Amavuta y'uruhu akozwe mu bimera afite ubushobozi bwo gufasha uruhu koroha gusa neza ndetse akanarurinda gusaza ahubwo akarwongerera ubudahangarwa.

Umuti w'igikakarubamba ndetse n'inkeri uri mu icupa, wifashishwa nk'umuti ukomeye ufasha ubuzima bw'umuntu. Igikakarubamba kifitemo ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye.

Igikakarubamba ni ikimera gitangaje kuko cyifashishwa mu gukora imiti itandukanye, yaba iy'amenyo, yaba imiti yo kuvura indwara zo mu nda ndetse n'izindi ndwara zitandukanye. Akarusho ni uko igikakarubamba gishobora kwifashishwa nabwo mu kwita ku musatsi kugira ukure neza.